Abamama bagiye ku mugezi, barimo kuvoma amazi yo gukoresha. By'umwihariko arakenewe kugira ngo afashe mu masuku nko koza ibyombo, gukaraba ndetse akaba yananyobwa.

Umuganga arimo aratera urushinge umuntu w'umumama, akaba ari urukingo rwa Kovide. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo tuyirinde ndetse ibashe kurandurwa.

Abaturage begerejwe umugezi none bamwe muri bo bagiye kuvomaho. Amazi rero agira umumaro mwinshi cyane kuko akoreshwa mu buryo butandukanye mu mirimo myinshi, nko gukora amasuku aranyobwa ndetse n'ibindi.

Umubyeyi avuye kuvoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu rugo akora isuku nko kumesa koza abana gukoropa koza amasahani ndetse ayo mazi iyo atetswe arananyobwa.

Abafatanyabikorwa batandukanye, bateraniye hamwe baganira ibyerekeranye n'indwara ya Marburg, bashaka kugira ngo bafate ingamba zatuma igabanyuka mu baturage.

Abaturage barimo baravomera amazi mu bibuni, ku migezi ya nayikondo. Ibi bikaba ari isoko y'ubuzima bwiza, bibafasha mu isuku ndetse n'iyindi mirimo.

Imigezi y'amazi yubakwa hagamijwe kugira ngo abantu babone aho bayavoma kuko abafasha mu gukora imirimo itandukanye nko gusukura mu rugo, bamesa ndetse n'indi nko guteka, kuba bayanywa n'ibindi.

Ni byiza gukaraba amazi meza, ntago dukwiye gukoresha abonetse yose kuko ayanduye abamo udukoko dushobora kudutera uburwayi.

Inama iyobowe n'abayobozi bakora mu cyiciro cy'ubuzima, babwira abaganga ndetse n'abandi bagikoramo, uburyo bwiza bakoresha kugira ngo basohoze inshingano zabo.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bafata amafunguro, arimo akawunga ndetse n'ibishyimbo, akaba afasha umubiri kugira imbaraga ndetse akanawubaka.

Imodoka ishinzwe gutabara abarwayi barembye cyane. Yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo ijye ibashyikiriza vuba abaganga, mu bigo nderabuzima.

Nyuma yuko umubyeyi amenyesheje umuganga uko umwana we yashwe, arimo aragerageza uburyo bwose kugira ngo amuvure akire.

Ibigo nderabuzima, bikwiye kubakwa ahantu hanini cyane, hisanzuye, ku buryo ibyakenerwa byose kongerwa kugira ngo ubuzima burusheho kwitabwaho bw'abantu, bibe byakorwa.

Dukwiye kugira isuku ku mibiri yacu tukajya dukaraba intoki dukoresheje amazi meza, kugira ngo twirinde aho indwara zitandukanye zakomoka, bityo tugire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umumama arimo arogereza ibikoresho byo mu rugo, harimo indobo, ku mugezi dukwiriye kugira isuku kuko ari isoko y'ubuzima buzima, mu mibereho yacu ya buri munsi.

Abana bagiye kuvoma amazi kuri nayikondo, bitwaje amabuni niyuzura barayashyikiriza mu rugo, kugira ngo bayakoreshe mu mirimo itandukanye.

Ikiganiro kivuga ku buryo icyiciro cy'ubuzima cyaterwa inkunga zitandukanye, kugira ngo kibashe gutera imbere bitewe nuko ari imwe mu nkingi zigize igihugu.

Umubyeyi ufite umwana mutoya anejejwe no kuba ari kuvoma amazi, ibi ni uko amugirira umumaro mu gukora amasuku yo mu rugo ndetse n'aharukikije kandi arananyobwa.

Abana barimo baravoma kuri nayikondo nk'imigezi yashyizwe ahantu hatandukanye mu buryo bwo kugira ngo haboneke amazi yo kujya bakoresha mu mirimo yo mu rugo ndetse n'ahandi.

Umuyobozi ukora mu cyiciro cy'ubuzima yagiye kuganiriza cyangwa se gukora ubukangurambaga ku byerekeranye n'ubuzima bw'abantu, ibi bikaba bifasha mu iterambere mu gihugu icyo ari cyose.

Umuganga w'umupapa arimo araganira n'umubyeyi mukuru amubaza ibibazo bitandukanye byerekeye n'ubuzima abona buriho ndetse anamusaba n'icyakorwa yakunganira ku bakora muri iki cyiciro.

Abana batandukanye b'abahungu n'abakobwa bari hafi y'umugezi hanyuma bitewe no gukunda amazi umwe yabashije kuyavoma ayashyira mu dukombe tubiri kandi ibi bintu byamushimishije cyane.

Umuntu arimo aravoma amazi y'umugezi ayashyira ku biganza bye. Mu gihe ayanyoye ntago aba yizewe, birakwiye ko tujya twitondera ibi bintu.

Ibiganiro bihuza abayobozi batandukanye haba akuru ndetse n'abatoya bakora mu cyiciro cy'ubuzima, bagamije kwiga ku buryo iki cyiciro cyaterwa inkunga mu buryo bushoboka bwose hakoreshejwe umutungo.

Abaturage barimo baraganira n'abaganga uburyo butandukanye bwakoreshwa kugira ngo ubuzima bwiza busigasirwe aho baba ndetse n'ahandi hose, kuko ari isoko yo kugira imibereho myiza.

Mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku, ndetse no kugira ngo imibereho y'abaturage irusheho gutera imbere, hagiye hashyirwaho imigezi myinshi ahantu hose, kugira ngo birusheho korohereza abantu kubona amazi bakoresha iwabo ndetse n'ahandi.

Inzobere mu buvuzi ndetse n'abayobozi bakora mu cyiciro cy'ubuzima, bateranyijwe hamwe no kureba ingamba zakoreshwa ndetse bashishikarizwa kuba bashyira mu bikorwa izemejweho, kugira ngo ubuzima bwiza bw'umuntu bugerweho.

Umwana mutoya arimo arakaraba intoki ziwe, kugira ngo arusheho kugira isuku, uyu ni umuco mwiza buri wese yakagize muzima bwe.

Abana batatu barimo baroza ibiganza byabo bakoresheje amazi, ibi ni ikimenyetso k'isuku, buri wese akwiye kurangwa na yo kuko bifasha wowe ndetse na mugenzi wawe.

Urukarabiro rw' ahantu hatandukanye, ntirukeneye amazi gusa. Ahubwo n'isabune, ni ngombwa ni ingenzi kugira ngo mu gukaraba ibiganza kw'abantu, bajye babyifashisha byombi.

Abaganga barimo barakora raporo y'ibyo bagiye bandika bashingiye ku makuru yakuwe mu bo bafashije mu minsi itandukanye.

Abana bari kuvoma amazi atemba y'umugezi, bifashishije ibivovo bashyikishijwe ibiti, kugira ngo birusheho kubagendekera neza, ibi rimwe na rimwe biterwa n'uko baba badatuye hafi y'amavomero.

Abayobozi bo mu cyiciro cy'ubuzima, bakorera mu kigo nderabuzima cya Mayange, bishimiye umushyitsi wabasuye ndetse bifuza yuko yazanasubira, kuko yababwiye ibintu by'umumaro kuri bo.

Umuyobozi arimo araganiriza abaturage babiri umugabo, n'umugore bagiye kuvoma ku mugezi bitwaje amajerekani by'umwihariko amazi n'isoko y'ubuzima niyo mpamvu abakwiye gushirwa ahantu hatandukanye.

Ikigo mpuzamahanga gishyigikira uburenganzira bw'umwana, gihamya ko buri umwe aba akwiye kwitabwaho, mu buryo busa n'ubwundi.

Ababyeyi barimo baravoma amazi ku mugezi . Bitewe n'uko abafasha mu gukora imirimo yo mu rugo ,nk'amasuku mu nzu cyangwa se ahakikije aho batuye ndetse arananyobwa.

Mu rwego rwo kugira ngo imibereho y'abaturage irusheho kuba myiza kandi itere imbere, hagiye hashyirwaho imigezi y'amazi, iyo abantu bavomaho kugira ngo barusheho kugira isuku ndetse banayakoreshe mu bindi bikorwa bitandukanye.

Umwana yajyanye indobo ku mugezi kugira ngo avome amazi, birangira ateze ibiganza ngo abashe kuba yabinywesha. Ibi ntago ari byiza kuko ari ikiganza ndetse n'amazi nta suku bifite.

Abayobozi batandukanye bakora mu cyiciro cy'ubuzima, barimo baraganira ku ngamba zafatwa, zakoreshwa, kugira ngo ubuzima bwiza bugerweho. Kandi imibereho y'abantu itere imbere.

Abayobozi banejejwe no kuba baganiriye ku buryo bakita ku buzima bw'umubyeyi utwite. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko gituma abana bato babyawe, barushaho kugira ubuzima bwiza.

Inama igizwe n'abayobozi batandukanye bakora mu rwego rw'ubuzima, biga ku buryo ubuzima bwa muntu bwabasha gusigasirwa kugerwaho ndetse no kurindwa.

Umwana anejejwe no kuba ari gukaraba amazi yo ku mugezi ni byiza kuba yashyirwa ahantu henshi kugira ngo imibereho y'abantu irusheho gutera imbere nk'isoko y'ubuzima bwiza.

Abaganga bagiye gukorera hafi y'abaturage, kugirango basuzume umuvuduko w'amaraso bafite, by'umwihariko bakoreye abantu bageze mu zabukuru.

Umuhanzi Israel Mbonyi yabaye hafi y'umwana, yamusuye bitewe n'uko yifuza ko imibereho ye yarushaho kuba myiza, ibi ni umuco mwiza ukwiye gusigasigwa na buri umwe wese.

Igihugu cy'u Rwanda cyishimiye kwakira abashyitsi ndetse kinashishikariza n'ababyifuza bose kugisura bakareba ibyiza bihatatse bihari.

Dukwiye kujya tunywa amazi meza aturuka ku migezi ntago aba asa neza niyo mpamvu dukwiye kuyateka mu gihe yavomwe kugira ngo tubone kuba twayashyira mu mibiri yacu. Ubu buryo mu gihe tubwubahirije tuzagira ubuzima buzima.

Abakora mu cyiciro cy'uburezi, barimo bahereza abaturage amabwiriza atandukanye ndetse n'inama zitandukanye, zerekeye ku miterere yabo karemano ndetse n'uburyo yabasha kurindwa ikanasigasirwa.

Abana batumwa n'ababyeyi babo ku migezi itandukanye, kugirango bajye gushaka amazi yo kuba bakoresha mu kugira isuku mu rugo bamesa, boza ibintu ndetse n'ahabakikije aho batuye.

Abayobozi bakora mu cyiciro cy'ubuzima, bateraniye hamwe baganira ingamba zafatwa ndetse n'icyahindurwa, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Ndetse babe batera imbere.

Umwana arimo aravoma amazi yo ku mugezi ayashyira mu ijerekani biramufasha kuyageza mu rugo, arabyishimiye ndetse biramunejeje natwe dukwiye gukora byose tubishaka mu gihe ari iby'umumaro ku buzima bwacu.

Abayobozi batandukanye bo mu cyiciro cy'ubuzima bishimiye kandi banezezwa no kongera kuba bahuye baganira ku buryo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu bo mu duce dutandukanye tw'gihugu.

Abaganga rimwe na rimwe hari ubwo abava mu bitaro bakoreramo, bakajya hafi y'abaturage mu duce batuyemo, babashyikirije imiti ndetse n'ingingo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umumama ari ku mugezi n'abana biwe arimo kubakarabya aboza umubiri kugira ngo barusheho gusa neza, amazi arakenewe ahantu hose kuko ari isoko y'imibereho myiza ndetse aranga iterambere.

Mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwiza bugerweho mu bantu bose, abayobozi bagenda bakora ubukangurambaga, bashishikariza abaturage ibijyanye n'ibyakorwa kugira ngo bugerweho kandi busigasirwe.

Amazi ni kimwe mu bintu bifite umumaro ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi . Ni nacyo gituma abana bari mu rugero rwo hasi iyo bageze ku mugezi bayarwanira bashaka gutanguranwa mu kuba bayavoma mbere kugira ngo bayanywe cyangwa se banayakaraye mu ntoki.

Umwana arimo arakabywa hakoreshejwe amazi meza ndetse n'isabune. Ubu ni uburyo bukwiye gukoreshwa, kuko bukumira umwanda ndetse no kwandura indwara zitandukanye mu mibereho yacu ya buri munsi.

Umwana yagiye mu mugezi utemba kuvoma amazi, akaba yitwaje ijerekani, ni byiza kandi birakwiye ko tugira amazi mu rugo kuko adufasha mu mirimo itandukanye, haba mu masuku ndetse no mu bundi buryo.

Nayikondo y'amazi, ni imwe mu ngamba zafashwe kugira ngo abantu babone amazi ahagije yo gukoresha mu mibereho yabo ya buri munsi, ndetse iki kintu kizateza imbere ubuzima bwiza.

Ubwandu bw'agakoko gatera Sida buracyahari, ni yo mpamvu dukwiye guhagurukira hamwe maze tukayirwanya mu buryo bwose. Twirinda imibonano idakingiye dukoresha agakingirizo, kandi icyaba cyiza kurushaho ni ukwifata twese.

Abaganga bagiye hafi y'abaturage, kugira ngo babapime indwara zitandukanye. Ibi bintu ni byiza kuko bituma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri barimo baravoma amazi ku migezi hari abari kuyakaraba mu biganza byabo kugira ngo bikureho imyanda ndetse n'abandi bateze indobo kugira ngo abashe kumanukiramo.

Abaturage bari ku mugezi w'amazi, batonze ibijerekani byinshi, bose bategereje ko bayabona kugira ngo bajye kuyifashisha mu rugo mu mirimo itandukanye nk'iy'isuku ndetse n'ibindi bintu.

Abajyanama b'ubuzima bajya mu duce tw'abaturage babamo kugira ngo babashe kubaganiriza ibyerekeye n'ubuzima bwabo. Kuri bo banezerewe ndetse bibabera byiza. Kuba bumviwe kandi abaturage bakabifatira ku murongo ukwiye.

Abaganga ni abantu b'ingenzi cyane kuko bita ku buzima bw'umuntu, ni bo batuma tubasha kurushaho kubaho mu buryo bwiza, no mu gihe twagize ikibazo runaka mu mubiri bakabasha kuba bagikemura. Bitewe n'ubuhanga baba bafite.

Abayobozi bakora mu cyiciro cy'ubuzima, bahurije hamwe urubyiruko baruganiriza ingamba zakoreshwa kugira ngo hirindwe indwara zo mu mutwe ndetse n'izashyizweho zikubahirizwa kugira ngo imibereho irusheho kuba myiza.

Umubyeyi yatwaye umwana we mutoya kumukingiza none muganga arimo arabimukorera. Ibi ni byiza cyane kuko bituma umwana abasha kuba yakura neza nk'uko biba byitezwe.

Kuko amazi ari meza ku buzima bwa muntu ndetse akaba ari ikintu cy'ibanze twese dukenera birakwiye ko tuyakoresha mu buryo bukwiriye tukayarinda icyatuma ashobora kuba make cyangwa se akandura.

Ibiganiro byahuje abayobozi bakora mu cyiciro cy'ubuzima abo hasi n'abo hejuru baganira ku ngamba zafatwa, kugira ngo icyorezo cya Mabaga kibashe guhagarara, kwirindwa, ndetse no kuvurwa, kikaba cyarabaye ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi, Bibiri na makumyabiri na kane i Kigali mu Rwanda.

Abaturage batandukanye harimo abagore n'abagabo, bahurijwe hamwe kugira ngo babahe amahugurwa yerekeranye n'iby'ubuzima imibereho myiza, ibe yabasha kugerwaho kuko ubuzima buzima ari isoko yayo.

Kanseri y'inkondo y'umura mu Rwanda iri ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko abantu magana atandatu buri mwaka bapfa kubera yo, ndetse n'abandi bangana batya bafite ubu burwayi, birakwiye rero ko duharanira kuyirandura.

Abayobozi bakora mu cyiciro cy'ubuzima, bateraniye hamwe kugira ngo bajye inama ku ngamba zafatwa, uburyo bwakoreshwa kugira ngo imibereho y'abantu irusheho gutera imbere nk'isoko yo kwita cyane ku buzima bwabo.

Abajyanama b'ubuzima barimo barita ku bana b'ababyeyi bafite ikibazo cy'imirire mibi babaha amata ndetse banabafasha mu bundi buryo kugira ngo imikurire yabo ibashe kuba myiza.

Mu rwego rwo kugira ngo icyiciro cy'ubuzima gitere imbere abayobozi batandukanye bateranijwe hamwe bajya inama z'ibyakosorwa ndetse n'ibyashyirwa mu bikorwa kugira ngo ubuzima bwiza bugerweho mu bantu bose.

Abaturage bagiye ku mugezi kugira ngo babashe kuvoma amazi yo kwishisha mu rugo. Akoreshwa mu gukora isuku nko koga, kumesa, koza ibyombo ndetse no guteka.

Umwana yagiye kuvoma, akaba yashyize ibiganza bye aho amazi amanukira, kugira ngo abashe no kunywa, ibi ntago ari byiza tujye tubyirinda, kuko aya mazi ntafite isuku.

Abarwayi barwaye indwara zitandukanye bari ku kigo nderabuzima, bategereje muganga ngo abafashe, kuko ari benshi, ntago yabavurira icyarimwe. Ni yo mpamvu bicaye, batonze, bakurikije uko bagiye baza ahangaha.

Umwana w'umuhungu arimo arakaraba intoki ziwe kuko zari zanduye, uyu nguyu akaba ari umuco mwiza ukwiye kuranga buri muntu wese kuko ari isoko y'ubuzima buzima ndetse bwiza.

Abaturage bishimiye ubutumwa bahawe, babugejejweho n'abayobozi babo bakuru, ibi bikomeza ndetse biboneza umubano abayobozi bafitanye n'abayoborwa.

Abana bari mu ishuri, babajijwe na mwarimu ibibazo bitandukanye maze barahanika, banezerewe kandi bishimye. Ibi ni inkomoko yo kuba bafite ubuzima bwiza kandi ababyeyi babo ni uko baba barabigize inshingano. Buri wese rero akwiye kwita ku bo yabyaye.

Umubyeyi w'umupapa, yagiye gushaka amazi ku mugezi ngo ayavome, abe yakifashishwa mu rugo mu bikorwa bitandukanye nko gukora isuku, gukoropa, koza ibyombo ndetse arananyobwa.

Inteko y'abaganga iri ku kagari isuzuma abantu indwara, akaba ari zimwe mumba zafashwe kugira ngo ubuzima bwiza bubashe gusigasirwa no kugerwaho mu mpande nyinshi.

Umu papa yagiye gushaka amazi arifuza kuba yayavoma, kugira ngo ayakoreshe ibikorwa bitandukanye nko gukora isuku mu rugo, ahamukikije, kuyanywa ndetse n'ibindi.

Dukwiye kujya twikingiza mu gihe tubisabwa wenda se hari icyorezo cyaje, cyangwa se hari indwara yaje aho tujye rero twumvira irarika ry'abaganga kuko ari uburyo bufasha ubuzima bwacu kuba bwiza.

Umumama afite umwana we yishimiye kuba ari kuvoma ku ivomero, akoresheje indobo y'umukara, ni byiza kuba abantu bayabona kuko ni isoko y'ubuzima bwiza.

Twatsinze icyorezo cya Marburg, bitewe n'uko ingamba twagiye dushyiraho, abaturage, ndetse n'abantu bari ahantu hatandukanye mu bihugu byacu, bagiye bazubahiriza, ndetse bakabikora kugira ngo bifashe, babashe kugira ubuzima buzima, bwirinda Marburg.

Mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bw'abantu burusheho gusigasirwa ndetse bagire bwiza, hagiye hashyirwaho imigezi itandukanye, kugira ngo babashe kubona amazi bakifashashi mu gukora ibintu bitandukanye.

Umuntu mukuru anejejwe kandi ashimishwa no kuba ari gufasha abana kuvoma amazi kuri nayikondo, bakaba bitwaje ubujerekani butoya bitewe n'imyaka yabo, tujye dufasha aho twaba turi hose ni umuco mwiza.

Kandagira ukarabe, ni nziza kandi irakenewe aho tuba, aho twirirwa ndetse n'aho dukorera, kuko ifasha mu isuku y'ibiganza, akaba ari uburyo bwatuma tutanduzanya, indwara muri bagenzi bacu.

Abaganga bateraniye ku kagari bagira ngo bafashe abantu cyangwa se abaturage babasuzuma indwara zitandukanye, bakanabagira n' inama.

Umuyobozi arimo araganiriza abantu uburyo icyiciro cy'ubuzima, cyatezwa imbere mu bifatika, kugira ngo imibereho y'abaturage irusheho kuba myiza.

Abaturage bagiye kuvoma amazi ku mugezi. Ni myinshi bityo rero irabafasha kugira ngo buzuze vuba batahe bajye kuyakoresha mu mirimo itandukanye mu rugo iwabo.

Minisiteri y'uburezi ya Repubulika y'igihugu cya Sudani y'amajyepfo, ikaba ishinzwe kureberera ubuzima bw'abaturage, kandi igaharanira kugira ngo bagire bwiza.

Urubyiruko rwishimiye guteranywa n'abantu bakora mu cyiciro cy'ubuzima, baganirizwa uburyo hakiririndwa uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'abawufite bakabasha kwitabwaho babababa hafi.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuzima bw'umuntu ndetse no kugira umuco w'imirire myiza, abayobozi barimo barakora akarima k'igikoni batera imboga z'ubwoko butandukanye.

Abanyeshuri bamwe barimo barava ku ishuri, hanyuma, undi mwana arimo aravoma amazi, umwe mu bava kwiga, agiye ku mugeziatega ikiganza, ngo amazi ariwe ajyaho aho kugirango ajye mu kajerekani.

Nayikondo ni ubwoko bw'umugezi wagiye ushyirwaho mu duce dutandukanye tw'Igihugu kugira ngo abantu babe babona amazi mu buryo bushoboka bwose kuko amazi ari isoko y'ubuzima buzima ndetse agira umumaro mu buryo bwinshi cyane.

Umwana muto atariwe n'umubyeyi we, arimo aritabwaho na muganga amuha imiti, kugira ngo arebe ko yakira indwara arwaye.

Umwana mutoya yishimiye gukaraba mu ntoki akoresheje amazi, bitewe n'uko ari uburyo bwo kwirinda indwara zitandukanye kandi ni ikintu yatojwe mu mibereho ye.

Umuyobozi ukora mu cyiciro cy'ubuzima yaravuze ati, "dukwiye kurebera impande zombi abafatanyabikorwa ahantu hose kugira ngo tubashe guteza imbere imibereho y'abantu."

Indwara yo mu mutwe ibaho, ntago dukwiye gutererana abayigize. Ahubwo dukwiye kubaba hafi. Iyi ikaba irangwa no guhindagurika kw'imikorere isanzwe y'umuntu.

Umuyobozi arimo arashishikariza abakora mu cyiciro cy'ubuzima ko bakwiriye kuba hafi y'abantu bagize impinduka, mu mikorere isanzwe yabo, bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Indwara y'ubuzima bwo mu mutwe ibaho. Mu gihe tubonye abayifite ntabwo dukwiye kubatererana, kubaseka ahubwo tujye tubafasha ndetse aho bishoboka tubatware kubaganga babizobereyemo kubavura.

Abana barishimye cyane baranezerewe bitewe n'uko bitabwaho, mu gihe bitabaye gutya ngo ababyeyi babo bababe hafi hari ubwo bagira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Uburwayi bwo mu mutwe, ni bumwe abantu bahura nabwo, bigatuma babasha gukora ibyo batagakoze, mu gihe ari bazima, ntidukwiye kubatererana ahubwo tujye tubaba hafi.

Umuntu yagize uburibwe bwo mu mutwe, kugeza ubwo arira, bitewe n'ingano yabwo. Mu gihe ibi bibaye, jya wihutira kujya kwa muganga, kugira ngo bagufashe.

Ihuriro ry'abayobozi hagamijwe kurebera hamwe ingamba zafatwa kugira ubuzima bw'umuturage burusheho kuba bwiza kandi butere imbere ahantu hatandukanye mu gihugu.

Umuyobozi ukora mu cyiciro cy'ubuzima yateranyije abantu, arimo arababwira ingamba zashyizweho, zigamije kurinda no kugabanya indwara zo mu mutwe mu bantu.

Mu burwayi abantu turwara harimo n'ubwo mu mutwe, mu gihe ubibonye kuri mugenzi wawe, jya wibuka yuko ari ikintu kibaho, ndetse umufashe umushyikiriza abaganga babyigiye, kugira ngo babe bamuvura akire.

Buri wese aho ariho hose afite uburenganzira bwo kuba yakitabwaho mu buryo bwamufasha kugira ubuzima buzima, haba ubwo mu mutwe ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose.

Ibitaro bya Ndera, aho abaganga bakora bafasha, baba hafi ndetse bavura abarwayi bafite ikibazo mu buzima bwabo, mu mitekerereze cyangwa se mu mutwe.

Igihe cyose abantu bo mu duce dutandukanye bazifatanyiriza hamwe bakabifata nk'inshingano kwita ku bantu bose bafite indwara zo mu mutwe ndetse no kwirinda icyatuma bazigira bizagerwaho.

Ikigo cyashyizweho mu rwego rwo kugira ngo gifashe urubyiruko mu guteza imbere imishinga yarwo kandi bakorere hamwe n'abandi bahabwe inama zerekeye kuri yo.

Umuyobozi arimo araganiriza abantu b'abimukira bafite ibibazo by'imibereho mu buzima bwabo inama zabafasha.

Umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se wahuye n'iki kibazo arangwa n'ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe hari n'ubwo nawe ubwe bitewe n'uko yabaye bimutera gukora ibintu bitandukanye bishobora gutuma yakangiza umubiri we, kuko aba atabizi bitewe n'urugero aba yagezeho.

Indwara yo mu mutwe, ibaho, itera umuntu kwigunga, guhangayika, kwiheba, ugasanga imikorere yari asanzwe agira mu mibereho ye yarahindutse, tujye tuba hafi rero y'aba bantu bafite ibi bibazo.

Iyo umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe hari n'ubwo bigaragarira mu isura ye ugasanga yirakaje arashaririwe nk'ingaruka yo guhinduka kw'ibitekerezo bye bisanzwe.

Umukobwa wahuye n'ibibazo, arahangayitse arihebye nta byiringiro afite, akaba yagize amahirwe yo kuganirizwa n'inshuti ye, bityo ibi ni ibintu byiza bikwiye kuturanga mu mibereho yacu.

Uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se imihindagurikire mu mitekerereze isanzwe ya muntu, ni ikibazo kibaho mu mibereho ya muntu, birakwiye yuko rero twita ku bantu bose uko dushoboye bahuye n'iki kibazo.

Bitewe n'ikigero cy'imyaka abantu bakuru baba bagezemo hari ubwo bagira impinduka mu imikorere isanzwe y'umubiri wabo bakaba bagira ikibazo mu mutwe, ibi ni ibintu bibaho mu mibereho ya muntu.

Kutagira mu kanwa hafite isuku bigira ingaruka nyinshi zitandukanye ndetse mu bihe byose, mu mibereho birakwiye rero ko mu kanwa heza kuko ari isoko y'ubuzima buri mu mibereho myiza.

Abana bavukiye mu miryango itifashije ifite ubukene, ntibabasha kubona ibyo kurya bifite intungamubiri zihagije umubiri ukenera, ibi bikaba byabaviramo ingaruka zitandukanye mbi nko kuba bagira ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuyobozi ukora mu cyiciro cy'ubuzima, arashishikariza abantu bose kujya bita ku bahuye n'uburwayi bwo mu mutwe. Ndetse bakababa hafi bakabafasha uko bashoboye kose, kuko ni ibintu by'umumaro ukomeye.

Abayobozi batandukanye harimo n'abashinzwe umutekano bari ku bitaro, aho abarwayi bagana ngo bafashwe n'abaganga bya Kacyiru muri Kigali.

Iyo umwana ameze neza ubuzima bwe nta nkomyi burimo bishimisha kandi bikanezeza umubyeyi wamubyaye ni muri urwo rwego icyiciro cy'ubuzima gikora ibishoboka byose ngo ibi bigerweho.

Gahunda yo gushishikariza abaturage kwirinda amakimbirane, bagasabana imbabazi kugira ngo he kuvamo kubura amahoro, kwiheba, kwigunga, ari byo bimenyetso by'indwara zo mu mutwe.

Mu gihe ubonye umuntu wigunze wihebye bitewe n'imibereho abayeho itamworoheye, birakwiriye yuko umuba hafi aho kumutererana kuko uba umubereye uw'umumaro mu buzima bwe.

Indwara yo mu mutwe ni indwara yibasira abantu batandukanye bitewe n'impamvu zitandukanye, rero mu gihe umuntu yafashwe n'iyo ndwara biba byiza iyo bagenzi be bamujyanye ku bitaro cyangwa se ku kigo nderabuzima kimwegereye kugira ngo babashe kuba bamufasha.

Uburwayi bwo mu mutwe bubaho, ntabwo dukwiye gutererana abahuye nabwo, icyo dukwiye gukora ni ukubaba hafi ndetse tukaba twabafasha tubajyana ku bitaro, kugira ngo abaganga babishinzwe babavure.

Abanyeshuri bari mu kigero gitoya, barishimye cyane. Bari ku ishuri, banezezwa n'uko babayeho, bigishwa, bitabwaho ndetse n'ababyeyi.

Uburwayi bwo mu mutwe ni ikintu kibaho ku bantu, birakwiye yuko dufasha abantu bahuye n'iki kibazo ndetse tukaba twabajyana ku bigo nderabuzima, kugira ngo barusheho kubitaho kandi babavure.

Iyo umuntu yarwaye indwara yo mu mutwe, imutera gukora ibintu atakora mu gihe afite ubuzima buzima. Ni byiza ko twita kuri aba bantu tukababa hafi, tukabafasha uko dushoboye kose.

Ntabwo dukwiriye gutererana abantu bihebye, bigunze, tujye tubaba hafi kuko hari ubwo banakora ibikorwa bibi bitewe n'uko baba batameze neza.

Umuyobozi ukora mu cyiciro cy'ubuzima, aranezerewe kandi ashimishijwe nuko akora muri cyo. Byumwihariko afasha mu kugira imibereho ya muntu irusheho gukomeza kuba myiza.

Abantu bageze mu za bukuru, hari ubwo bahura n'ikibazo cyo guhinduka kw'imitekerereze isanzwe y'imibiri yabo ndetse bakaba banarwara indwara zo mu mutwe, mu gihe ibi bibaye ni byiza ko twihutira kugana abaganga cyangwa se tukajya mu bitaro nderabuzima.

Rimwe na rimwe n'abantu bageze mu zabukuru bitewe n'imyaka bagezemo hari ubwo bagira ibibazo by'ubuzima, bakaba bagira ubumuga bwo mutwe, cyangwa se imiterere yabo karemano igahinduka ku bw'imyaka bagezemo.

Ikigo dusanga muri Kigali, gifasha abantu bose bafite ikibazo mu mitekerereze, kirabamenyesha yuko mwajya mukigana kugira ngo kibafashe, mwe mwese mwaba mufite iki kibazo mu buzima bwanyu.

Umuntu wese wasukuye amenyo, akaba asa neza, afite umweru wayo, ntaterwa ipfunwe no kuba yayerekana, ni mucyo rero tujye duhora dukora uko dushoboye kugira ngo ibi bikomeze kubaho ku menyo yacu.

Hari bimwe twibwira y'uko isuku y'amenyo ikorwa hari uburoso, ndetse n'umuti w'amenyo gusa, ariko ndagirango ngo mbamenyeshe y'uko hari akadodo bifashisha mu gusukura amenyo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yo hasi barimo bakora isuku y'amenyo bakoresheje uburoso, umuti w'amenyo ndetse n'amazi meza. Ibi bigatuma barushaho kugira isuku yo mu kanwa.

Akadodo ko mu menyo ni agakoresho buri wese yakoresha kugira ngo abashe gusukura amenyo ye kuko gakuramo imyanda itakurwamo n'uburoso tujya dukoresha.

Umuganga w'amenyo arimo kuvura amenyo, arimo kuyakura ibi bikaba ari ingaruka zo kutayagirira isuku cyangwa se akaba yaratakaje ubushobozi bwayo bwo kuba yakomeza gukora, icyo dusabwa ni ukuyagirira isuku kugira ngo ibi bitazajya bitubaho.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, dukwiye guterwa ishema nuko tumerewe mu menyo yacu nk'isoko yo kuyagirira isuku.

Umwarimu arimo arerekera umunyeshuri uburyo yajya yoza amenyo ye, akoresheje uburoso ndetse n'aho yajya ahera agasoreza ari gukora isuku yo mu kanwa.

Isuku yamenyo ni ingenzi cyane kandi irakenewe kuri twese kuko ituma twirinda umwuka mubi uturuka mu kanwa ndetse akabasha kwereruka bityo ntitugire ipfunwe ryo kuba twayerekana turi guseka.

Gukurwa amenyo ni ingaruka zo kutayitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho usanga umuntu atajya afata uburoso, umuti w'amenyo kugira ngo ayasukure.

Amenyo ya muntu, ni igice gikwiye kwitabwaho, dusanga mu kanwa kacu, mu gihe bidakozwe, havamo ingaruka nko kuba yakurwa, guhumwa ndetse n'ibindi.

Iyo umuntu agize isuku y'amenyo, akaba asa neza ntaterwa isoni no kuba yaseka, bityo abantu babirebe. Duharanire rero kujya dusukura mu kanwa kacu buri munsi.

Umwana muto yaguriwe uburoso kugira ngo ajye abwifashisha arimo gukora isuku y'amenyo, ibi akaba ari umuco mwiza kandi ni ikintu buri mubyeyi wese akwiye guharanira gukorera abana be kuko ari isoko y'ubuzima buzima ndetse bwiza.

Umuganga w'amenyo arimo arareba mu kanwa k'umurwayi bityo amenye ikibazo amenyo yiwe afite ngo abe yabasha kuba yamuvura.

Akadodo ko mu menyo, ni kamwe mu dukoresho twifashishwa kugira ngo umuntu agire isuku y'amenyo ye by'umwihariko kabasha gukuramo imyanda itakurwamo n'uburoso.

Akadodo ko mu menyo ni kamwe mu dukoresho umuntu yakwifashisha kugira ngo abashe gusukura amenyo yiwe hari benshi batatuzi ariko ni byiza ko n'ako mukamenya mukajya mugakoresha.

Ubuzima bwo mu menyo ni ikintu umuntu wese agomba kwitaho, mu gihe tutagiriye isuku amenyo yacu ni twebwe bigiraho ingaruka, niba wikunda rero, jya ubizirikana kandi ubikore ubikunze.

Isuku y'amenyo ni ingenzi cyane mu buzima, umuntu wese agomba kuyigira kuko ari isoko y'ubuzima buzima, kudakora ibi rero ni ukwiyangiza, buri wese agomba guharanira kuyigeraho kuko bimufitiye umumaro ukomeye.

Kwita ku buzima bw'amenyo, ni uruhare rwa buri umwe wese. Dukwiye koza amenyo yacu agacya, agakomeza kugira umwimerere wayo buri munsi. Bigire ibyawe, nanjye mbigire ibyanjye kugira ngo ubuzima bw'amenyo bwacu bubashe gusigasirwa.

Akadodo ko mu menyo ni kamwe mu dukoresho twakwifashwa kugira ngo dusukure amenyo yacu ni uko gafasha gukuramo imyanda uburoso butakuramo.

Kudakorera isuku amenyo, kutayitaho, si ikintu cyo kugundirwa. Kuko bidutera kuba twakurwa, akaba yacukuka.

Dukwiye kujya twoza amenyo yacu tubyitayeho tubikunze kandi mu buryo bukwiriye, iyi ni isoko y'ubuzima buzima kuko mu kanwa kacu nta mpumuro mbi iba irimo.

Mu rwego rwo kugira ngo abantu bagire isuku yo mu kanwa, abana bahawe uburoso ndetse n'umuti w'amenyo bazajya bifashisha mu gusukura mu menyo.

Umuganga w'amenyo arimo arafasha kandi yita ku murwayi wayo, akenshi na kenshi umuntu agera kuri uru rwego bitewe no kutayagirarira isuku ndetse no mu kanwa muri rusange.

Isigasirwa ry'ubuzima bw'amenyo y'umuntu ni kimwe mu biharanirwa n'abaganga b'amenyo; kugirango rero tubafashe kuri iki kintu ni ngombwa ko buri wese agira isuku y'amenyo; twirinda ingaruka zishobora kuva mu kuyagirira umwanda.

Umuganga arimo araha umuti umwana wafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe, bitewe no guhindagurika kw'imikorere isanzwe yiwe.

kwangirika kw'amenyo yacu bikomoka mu kutayagira isuku ha ubwo aba umukara agacukuka ndetse n'izindi ngaruka zitandukanye ni byiza rero yuko twirinda umwanda m'uburyo bwose mu kanwa kacu.

Koza amenyo ni umuco ukwiye gukura mu bantu twese haba abakuru ndetse n'abatoya; kuko buri wese biramureba kugirango twirinde ingaruka mbi zishobora gukomoka mu kutabikora buri munsi.

Kwita ku bantu bageze mu zabukuru birakwiye, by'umwihariko baba bakeneye kugaburirwa ibiryo birimo intungamubiri, umubiri wabo uba uzikeneye cyane ibi bikabafasha kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Umuganga arimo arafasha umukecuru kunywa imiti, bitewe n'imyaka aba agezemo ni byiza ko yitabwaho.

Ni byiza kuba hafi ntidutererane abageze mu zabukuru, mu gihe bahuye n'uburwayi bagahabwa imiti n'abaganga. Dukwiye kujya tuberekera uburyo bayifata nk'uko bategetswe na bo.

Ni byiza ko twubaha abo kubabahwa; nibabura uri umumama ukaba ufite umugabo ukwiye kumwitaho ukabasha gukora icyo agusabye kumukorera; kuko ni ikintu gifasha mu mibereho ya muntu; bimugirira umumaro nawe bikakugirira umumaro ndetse bikabasha no gukomeza umubano mufitanye.

Ni byiza kwita ndetse tukaba hafi ku bantu bageze mu za bukuru birabashimisha cyane bikabanezeza imibereho yabo ikarushaho kugenda neza.

Mu gihe abantu bageze mu zabukuru, bitewe n'urwego imibiri yabo ibi ikoraho, ni byiza ko bafata amafunguro arimo intungamubiri zose kugira ngo umubiri wabo urusheho kugira ubudahangarwa.

Abageze mu zabukuru bahura n'ikibazo cyo guhindagurika kw'imikorere isanzwe y'imibiri yabo, nko kuba bahura n'ikibazo cyo kutabona neza, birakwiye rero ko tujya tubaba hafi uko dushoboye mu buryo bwose.

Bageze mu zabukuru abasaza, abakecuru birakwiye yuko bitabwaho, iyo bageze mu myaka runaka hari ubwo ingingo zabo ziba zitagikora nkuko zakoraga bityo bakajya kwa muganga ngo babahe udukoresho kabafasha twabunganira.

Birakwiriye ko twita ku bantu bakuru kuko imyaka baba bagezemo hari ubwo bakwigunga, bakiheba ariko mu gihe tuberetse ko tubitayeho birabashimisha ndetse bakarushaho kubaho bafite ibyiringiro by'ubuzima bwiza.

Abantu bageze mu za bukuru, abasaza n'abakecuru bitewe n'imyaka baba bagezemo, hari ibintu bitandukanye baba bakeneye kuba bafashwamo. Ni byiza ko tubaba hafi.

Umuforomo arimo arafasha umupapa ugeze mu zabukuru muri ubu buryo: Ari kumunyongera akagare kamufasha kugera ahantu hatandukanye ngo babe bamwitaba.

Abantu bageze mu za bukuru abasaza n'abakecuru bakwiye kwitabwaho tukababa hafi uko dushoboye, erega nabo bakora imyitozo ngororamubiri, nitwe rero dukwiye kubibashishikariza ndetse tukabereka n'urugero rwiza.

Abantu bageze mu za bukuru bahura n'impinduka mu mikorere isanzwe y'ibice by'umubiri wabo, ni byiza rero ko tubaba hafi mu gihe ibi bibabayeho tukabafasha uko dushoboye kuko bibagirira umumaro ukomeye mu buzima bwabo.

Abantu bageze mu za bukuru ni abo kwitabwaho tukababababa hafi, si abo gutereranwa, ingingo zabo ziba zaracitse intege, bityo iki kintu tujye tukizirikana mu mibereho yacu ya buri munsi.

Umuganga arimo arabarira umusaza ugeze mu za bukuru imiti, amubwira kandi amwerekera uburyo azajya agenda ayinywa kugira ngo ibashe kuba yamukiza uburwayi arwaye.

Kuba hafi y'abantu bageze mu zabukuru, tukabitaho, tukabereka ko tubishimiye, ni byiza cyane, mureke tujye tubikora kuko bituma barushaho kugira ibyiringiro.

Abantu bageze mu za bukuru, abasaza, abakecuru, barizihiwe barishimye bakwiye kwitabwaho mu buryo bushoboka bwose.

Abantu bageze mu za bukuru abakecuru n'abasaza, hakwiye kubaho ingamba zibafasha. Aho baba bari hose bitewe n'uko hari intege nkeya baba bafite; nk'inkomoko y'imyaka baba bagezemo.

Abahinzi ndetse n'abakozi babo barimo barasarura ikawa by'umwihariko bishimiye umusaruro barimo bagenda bakuramo bitewe n'uko ari mwiza cyane.

Umuganga arimo arita ku mumama ugeze mu zabukuru. Arimo ara amupima umuvuduko w'amaraso ndetse kandi bitewe n'imyaka agezemo, byabaye ngombwa ko ahabwa akagare yajya yifashisha mu kugenda.

Umuganga arimo arita ku mukecuru amuha imiti kugira ngo abashe gukira, rimwe na rimwe bitewe n'imyaka aba agezemo hari ubwo we atabasha gukurikiza amabwiriza yahawe na we.

Abantu bageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho tukababa hafi uko dushoboye kose, mu gihe bitagenze gutya hari ubwo bafata imyanzuro idakwiye bitewe n'uko ingingo z'abo ziba zitagikora nk'uko zarizisanzwe, ibi bintu tujye tubyitaho.

Rimwe na rimwe abantu bageze mu za bukuru bitewe n'uko ingingo zabo ziba zitagikora nkuko'uko byari bisanzwe bakiri bato, hari ubwo bakenera utugare ndetse n'utundi dukoresho bakifashisha kugira ngo twunganire ingingo zabo babe babasha kugenda kureba n'utundi.

Iyo abantu bageze mu zabukuru si byiza ko tubatererana dukwiye kubitaho muburyo bushoboka bwose kuko hari imbaraga batagifite zihwanye n'izo bari bafite bakiri batoya imyaka yose rero babagezemo ntago baba bakwiye gutereranwa na gato.

Abavandimwe b'umusaza usheshe akanguhe barimo baramufasha kwicara bitewe n'imyaka agezemo ntiyabyishoboza, ntiyabyikorera. Ibi ni umuco mwiza dukwiye kubaha tugafasha abantu bose bageze mu zabukuru.

Umumama arimo arafasha umusaza ugeze mu zabukuru kugenda, iyo umuntu ageze muri iyi myaka ntaba akibasha gukora nk'uko yari asanzwe agenza, birakwiye ko tujya tuba hafi y'abantu nk'aba kandi tukabakorera ibishoboka byose byatuma bakomeza kugira ibyiringiro mu mibereho yabo.

Aho bishoboka abasore ndetse n'abandi bantu bagifite imbaraga bari mu myaka mikeya byaba byiza bajyanye n'abakuru gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu bageze mu za bukuru hari n'ubwo bagera ku rwego rw'uko batakibashije kwiyitaho kwikarabya ndetse no mu bundi buryo, ni byiza rero ko tubibakorera tukababa hafi uko dushoboye kose kugira ngo barusheho kunezerwa bityo iminsi yabo irusheho kugenda neza.

Igihe umuntu ugeze mu zabukuru yahawe imiti na muganga, ni byiza ko tumuba hafi tukamusobanurira kugira ngo abashe kuzirikana uburyo yabwiwe na muganga bwo kuba yayifata.

Abantu bageze mu zabukuru birakwiye ko tububaha, tukababa hafi, tukabitaho mu bishoboka byose, kuko baba bahuye n'ikibazo cy'imihindagurikire, mu mikorere isanzwe y'imibiri yabo.

Biranezeza birashimisha bitanga amahoro kubana neza n'abandi aho waba utuye hose, tujye tubiharanira kuko bitera ubuzima bwacu kuba bwiza.

Umusaza ugeze mu za bukuru yararimo arasoma utuntu dutandukanye twari turi mu makayi, gusa bitewe n'imyaka ageze yagize ubwo asinzira.

Umurwayi ari mu bitaro. Yahawe igitanda mu kigo nderabuzima, kugirango abaganga barusheho kumwitaho ndetse biborohereye kuko aba abari hafi.

Umubyeyi w'umumama ugeze mu zabukuru, anezerewe abana be ndetse yishimiye cyane kubakira bitewe n'uko bamwitaho, bakamuba hafi, ntibigera bamutererana muri byose.

Abantu bageze mu zabukuru baba bakeneye kwitabwaho tukabereka ko tubitayeho, ndetse dukwiye kujya tubaha ibiryo bikubiyemo intungamubiri zitandukanye, kuko baba bazikennye ndetse bazikeneye cyane.

Abantu bageze mu za bukuru, abakecuru, abasaza bitewe n'urwego baba bagezemo, hari byinshi baba batishoboreye kuba bakwikorera, birakwiye rero ko twajya tubafasha.

Abana bishimiye kandi banezezwa no kuba bagiye umukecuru wabo, ni byiza rero ko natwe twajya tubikora mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko bimutera kumva yitaweho.

Iyo tubaye hafi y'abantu bageze mu za bukuru birabanezeza cyane, birabashimisha, bumva bafite inshuti hafi yabo bityo ubuzima bwabo bukarushaho kugenda neza cyane.

Abantu bageze mu zabukuru haba abakecuru n'abasaza, banezezwa ndetse bagashimishwa no kwitabwaho n'abandi. Ikindi tujye twibuka ko bakeneye ibiryo birimo intungamubiri ndetse n'imbuto maze tubibahe.

Umusore arimo arasomera hamwe igitabo na papa w'iwe usheshe akanguhe, ni byiza cyane kuba hafi y'abantu bageze mu myaka nk'ikiyi.

Abantu bageze mu za bukuru ni abo kubahwa, kwitabwaho mu buryo ubwo ari bwo bwose dushoboye, kubatererana ni ukubagirira nabi kandi bishobora no kubatera ingaruka zitandukanye nko kwigunga.

Ni byiza kwita ku bantu bageze mu za bukuru tubaba hafi tubereka ko tubishimiye, ndetse tukibuka no kubagaburira ibiryo birimo intungamubiri zose kuko bazikennye; baba bazikeneye ku rwego rwo hejuru.

Umusaza akaba ageze mu za bukuru, arimo arabasha kwandika mu gitabo, nubwo hari ubwo bidashobokera bamwe. Akaba yambaye amadorobindi amufasha kugira ngo arebe ibyo ari gukora.

Inteko y'abantu bakuru ndetse n'urubyiruko, abakuru bakaba barimo bagira inama abatoya mu buryo butandukanye kuko kenshi na kenshi urubyiruko ruba bakeneye imbaraga zo ku ruhande, ari bo bakuru babo cyangwa se ababyeyi babo.

Birakwiye ko n'abantu bakuru bakora imyitozo ngororamubiri, kuko bifasha imibiri yabo kuba yakomeza gukora neza, ndetse bakarushaho kugira imibereho myiza cyane.

Umuyobozi arimo araganiriza abantu bageze mu zabukuru, abasaza n'abakecuru. Ibi bikaba bibafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buzima bwabo kandi bikabongera ibyiringiro byo kubaho bitewe n'ibibazo baba baragiye bahura na byo byose mu mibereho yabo.

Niba umuvandimwe bawe yaragiye kwa muganga maze agahabwa imiti yo kumufasha ni byiza ko umuba hafi mu kugira arusheho kubariza uburyo yahawe na muganga bwo kuyinwa.

Abantu bageze mu za bukuru bahura n'ikibazo cy'imihindagurikire mu mikorere isanzwe y'umubiri wabo nko kuba barwara amaso ni byiza rero kubafasha tukababababa hafi kugira ngo barusheho kubona ibyo basoma cyangwa se ibyo bifuza kumenya.

Umuganga arimo arererekera umusaza uburyo yakoresha agakoresho kunganira amaguru ye, bityo abe yashobora kugenda.

Ni byiza aho tuba hatandukanye ko duha uburenganzira abantu bageze mu za bukuru, bakaba babasha gutanga ibitekerezo byabo bakunganira ndetse bakavuga uko biyumva mu buryo runaka.

Umubyeyi ugeze mu zabukuru w'umupapa, ari n'umugore we na we ukuze, akaba arimo kumufasha gusoma amabwiriza yahawe, yakurikiza kugira ngo anywe imiti.

Umuntu ageze mu za bukuru aygiye kwa muganga kwihuza hanyuma arimo arasobanurirwa ibijyanye n'uburyo azajya akoresha kugira abe yakira agendeye ku mabwiriza yahawe.

Igihe hari icyorezo cyibasiye ahantu, ni byiza ko twubahiriza ingamba zashyizweho zatuma kigabanyuka cyangwase ntigikwirakwire muri twe, haba kwa muganga ndetse n'ahandi barabyubahiriza.

Umuntu arimo arasangiza abandi ingaruka zitandukanye ibidukikije bigira aho biri haba inziza ndetse n'imbi.

Ku itariki makubiri n'enye z'ukwa gatandatu, bibiri na makumyabiri na gatanu hazaba ihuriro ry'abantu, baganira ku buryo imirire ndetse n'ubuzima byabasha gukorwa mu buryo bwiza.

Buri mwaka ku isi hose hizihiza umunsi mpuzamahanga wo kwirinda indwara iterwa n'agakoko gatera sida. Ibi bikaba bigabanya umubare w'abayirwaye mu bihugu byinshi.

Igitabo abarimu bigisha mu mashuri yisumbuye bakoresha, bakifashisha mu kazi kabo gikubiyemo ubumenyi bujyanye n'imimerere, imiterere, isano iri hagati y'ibitsina bya kigabo na kigore.

Twese dukwiye gukorera hamwe tugafatanya ngo turwanye kanseri yo mu bwana, mu ngingo zitandukanye z'umubiri.

mahugurwa agamije gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubu ubuzima ndetse n'amabwiriza cyangwa se amategeko abantu bakwiye kugenderaho mu buryo bwo kugira ngo iki cyiciro gitere imbere.

Ku itariki enye z'ukwa kabiri, kuwa gatanu bibiri na makumyabiri na kabiri, mu Rwanda habaye guterana hagamijwe kuganira uburyo abantu bafite kanseri bakwitabwaho, ndetse ikanirindwa.

Gahunda yashyizweho n'abakora mu cyiciro cy'ubuzima, hagamijwe gukumira no kwirinda icyatuma abantu bagira igwingira mu mibereho yabo n'imikurire.

Ikigo cyashyizweho mu Rwanda ndetse kikaba cyarahamijwe n'itegeko nshinga gishinzwe guteza imbere, gushyigikira abakozi bakorera mu cyiciro cy'ubuzima butandukanye.

Gukoresha agakingirizo ni byiza cyane kuko ni uburyo burinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Abaforomo batandukanye bari mu kigo nderabuzima mu nyubako aho indembe zirara, bita ku imwe muri zo, bakora ibishoboka byose ngo abe yakira.

Abaganga habaho igihe bajya aho abaturage batuye babatwariye imiti itandukanye ivura uburwayi runaka mu buryo bwo kugira ngo ubuzima bw'abantu burusheho kuba bwiza ndetse no gusigasirwa.

Ni ryari kandi ni kangahe umuntu yakurwamo inda? Mu byumweru cumi na bibiri cyangwa se munsi yabyo. Ibi byakorwa.

Iteraniro ry'abayobozi bakuru n'abato hagamijwe kuganira ingamba zakoreshwa mu kugabanya indwara ya sida kuko ikomokamo ibyuririzi bitandukanye ku mibiri y'abantu.

Kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende bikwiye kuba inshingano yawe nanjye, twese hamwe twagera kuri byinshi byiza kandi byose twifuza, dushyire hamwe rero bityo turusheho kugira imibereho izira kwandura iyi ndwara.

Ikigo dusanga mu Rwanda gishinzwe kurinda ubuzima bw'abantu ndetse no gukora igishoboka cyose kugira ngo ubashe gusigasirwa kuko bifasha mu iterambere ry'igihugu.

Madamu Jeannette Kagame arashimangira yuko indwara y'ubuzima bwo mu mutwe indindiza byinshi, nk'iterambere ry'igihugu kuko mu gihe umuntu afite indwara yo mu mutwe nta kintu yabasha gukora kizima.

Amahugurwa y'abayobozi batandukanye, baturutse mu bihugu byinshi byo muri Afurika, baganira ku buryo indwara ya SIDA ndetse n'ibyuririzi biyikomokaho yarwanywa.

Kuva ku bana kugera ku bantu bakuru buri wese agomba kubigira inshingano tukarwanya ndetse tukanakora icyatuma icyorezo cya sida indwara ya sida ihagarara cyangwa se ubundi buryo ikaba yagabanyuka aho yabashije kugera.

Amahugurwa agamije kugira ngo abashe kumenyekanisha ingamba zitandukanye zatuma imibereho myiza itera imbere bitewe no gusigasira ubuzima bwiza.

Ibigo bitandukanye byo muri Afurika, bifasha mu gutanga ubumenyi, iyi akaba ari inzira y'iterambere rirambye, ahantu aho ariho hose mu gihe bikomejwe.

Umunsi mukuru mpuzamahanga washyiriweho kugira ngo twizihize kwirinda kw'indwara ya diyabete, dufasha ndetse tukaba hafi abayirwaye kugira ngo barusheho kugira ibyiringiro mu buzima bwabo.

Repubulika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima iyi ikaba ari imwe mu zigize inzego z'ubuyobozi bw'igihugu, kandi ikaba ifasha mu gusigasira ubuzima bw'abantu.

Icyumweru cyahariwe amahugurwa ajyanye no gushishikariza abantu kwirinda icyatuma barwara uburwayi bwa diyabete ndetse hagaterwa umwete abayifite gukomeza gukurikiza uburyo bahawe na muganga.

Mu rwego rwo kugira ngo he kugira ikintu na kimwe gipfa ubusa, turasaba abantu kujya bakusanya imyanda bayitandukanyije, ibora bakayishyura ukwayo, n'itabora bakabigenza batyo.

Ikinyamakuru cya afurika y'iburasirazuba gikubiyemo ubushakashatsi bwakozwe ku bijyanye n'ubuzima ndetse hakabamo ibyo abantu bagenda bakora bigaragaza iterambere muri iki cyiciro.

Rubyiruko ndabibutsa yuko ari mwe ejo heza hazaza h'uru Rwanda, birakwiye ko buri wese yirinda virusi itera sida, akajya yipimisha kugirango abashe kureba niba yaba yaranduye cyangwa se ari muzima.

Icyumba cyo mu kigo nderabuzima, aho muganga akorera, by'umwihariko umurwayi ni ho amusanga, akamusuzuma, akamubwira uko yiyumva, na we akanzura imiti yamufasha.

Ibigo nderabuzima bikwiye kubakwa ahantu heza hizewe hari umutekano, kandi ni byiza kuhatera ibiti indabyo, kuko bituma uguhumeka kw'abahagana kugenda neza, ndetse n'isoko y'umwuka muzima.

Abarwayi harimo abapapa abamama ndetse n'abana batoya, bagiye kwa muganga kugira ngo bavurwe basuzumwe indwara zitandukanye.

mu bigo nderabuzima habamo ibyumba bitandukanye aho abaganga ndetse n'abandi bakozi bakoreramo bicara bategereje abo bafasha nk'abarwayi ndetse n'abandi.

Abarwayi batandukanye, barwaye indwara zitandukanye, bicaye mu bitaro bategereje abaganga kugira ngo babashe kubafasha ku bibazo bitandukanye, babashe kubavura kugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima, mu buzima bwabo.

Inzu y'ababyeyi b'abamama babyariramo mu gihe bari batwite akaba ari ahantu hakomeye cyane ku baganga ndetse no kuri bo.

Umuganga ari mu bitaro avura umurwayi. Aragerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo abe yakira, agire ubuzima bw'umwimerere, agire ubuzima buzima.

Umuforomo ari mu nyubako yo mu kigo nderabuzima aho abarwayi baryamishwa, kugira ngo babe bakitabwaho n'abaganga, byoroshye cyane bityo bakire.

Zimwe mu nyubako zubakwa mu bigonderabuzima harimo aho ababyeyi babyarira abana babo, akaba ari ahantu h'umumaro ukomeye kuko ariho benshi bibarukira bakabasha kubona ibiremwa bishya.

Inyubako yubatswe mu kigo nderabuzima, kugira ngo ababyeyi b'abamama batwite, bajye bayigana, bityo ababyaza babashe kuba babafasha, mu kubyara kw'abo.

Umuganga ari mu bitaro asuzuma ndetse areba neza ibijyanye n'ibyo akora akoresheje mudasobwa ndetse n'ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga.

Ikigo nderabuzima kiri mu cyumweru cyo kwita ku buzima bw'umwana ndetse n'umubyeyi wamubyaye, ibi ni ibintu bifasha umuryango mugari muri rusange.

Bimwe mu bice bigize inyubako zubakwa mu bigo nderabuzima harimo aho bakirira abantu, aba bashobora ari abarwayi abaganga'abandi bose bakeneye inama ijyanye n'ubuzima bwabo.

Abayobozi bakora mu cyiciro cy'ubuzima basuye laboratori rankete aho basuzumira indwara ziterwa n'udukoko dutandukanye, cyangwa se ubwandu budukomokaho ibi bigafasha mu kurwanya nyinshi muri zo.

Ibigo nderabuzima bikwiye kubakwa ahantu hisanzuye, hafasha umurwayi kurushaho kumererwa neza, byongeye kandi hari n'amahoro cyangwa se umutekano.

Mu mirenge, kwa muganga ndetse no mu zindi nzego habaho inyubako ishinzwe kwakira ababa bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ikigo cyubatswe mu Rwanda gishinzwe kwita kureberera ndetse no kuvura abantu bose banduye kanseri byongeye kandi abagikoramo bagira inama zitandukanye ababa bakiganye kugira ngo imibereho yabo irusheho korohererwa.

Inzu ababyeyi babyariramo twayisanga mu kigo nderabuzima, igira umumaro ukomeye kuko ni ho ubuzima bw'umwana butangirira.

Kaminuza yigisha y'ikigonderabuzima cya Butare aho abanyeshuri bafashwa mu kugira ngo bunguke ubumenyi butandukanye bujyanye n'ubuzima n'imibereho ya muntu.

Ububiko bw'imiti itandukanye haba iri mu buryo bw'ibinini ndetse ifite imiterere nk'iyamazi, abaganga bakaba bayifashisha kugira ngo bavure abarwayi.

Umubyeyi yabyaye umwana none umwana yagize ikibazo, arabona atameze neza niko kumutwara kwa muganga, rero bitewe n'uko ari kwa muganga, muganga ari kumufata ngo arebe ikibazo yaba afite cyangwa se ikitagenda neza, mu mubiri w'uyu mwana mutoya cyangwa se uru ruhinja.

Ububiko bw' imiti bwa Iraguha, aho abaturage bajya kuyigura bakisuzumisha indwara zitandukanye mu gihe bumva batameze neza bakabwira muganga uhakora uko biyumva.

Ababyeyi baba b'abamama ndetse n'abapapa bagiye kwa muganga, baricaye bategereje ko bafashwa n'abaganga, hari abakeneye inama ndetse n'abaje kwivuza, uburwayi butandukanye.

Mu byumba byo mu bigo nderabuzima, ndetse n'izindi nyubako zihaba, hakwiriye kurangwa n'isuku nyinshi cyane, kuko ari isoko y'ubuzima buzima, mu mibereho yacu.

Ububiko bw'imiti bwa peniyeri, bukaba ari ubwa Murekatete Denise w'inzobere mu bijyanye n'imikoreshereze y'imiti, umuntu wese uyikeneye akaba yahagana kugira ngo abe yafashwe.

Mu bigo nderabuzima birakwiye kandi ni ingenzi gushyiraho abantu bashinzwe umutekano, kuko ari ahantu hagendwa na benshi haba abarwayi, abarwaza ndetse n'abaganga.

Ikigo nderabuzima cyo mu karere ka Shyira, aho abaganga ndetse n'abarwayi hamwe n'abandi bose bifuza inama zerekeye n'ubuzima bwabo berekeza kugira ngo babashe gufashwa ndetse no gukora.

Muganga arimo arafasha umurwayi warembeye mu bitaro. Akaba yahawe n'igitanda. Ibi biratuma amwitaho uko ashoboye kose kugira ngo akire.

Abajyanama b'ubuzima bateraniye ku nzu y'ababyeyi babyariramo iba mu kigo nderabuzima nyuma y'uko basoje kugirwa inama n'ababakuriye ku cyiciro cy'ubuzima.

Ibigo nderabuzima bikwiye kubakwa ahantu hisanzuye, hari ibiti, ku buryo imihumekere y'abantu irushaho kuba myiza, ndetse kandi ntibibagirwe no kuba bashyiramo amazi muri byo.

Ibitaro bya Ligase aho abarwayi bagana bakajya kureba abaganga kugira ngo babasuzume babahe imiti n'inama zijyanye n'ubuzima bwabo bityo babe bakira.

Ibigonderabuzima bikwiye kubakwa ahantu hisanzuye, hari amahoro, hameze neza mu buryo bushoboka bwose kugira ngo ubuzima bw'abarwayi bwitabweho nta mpungenge n'abaganga.

Mu kigo nderabuzima habamo inyubako nyinshi cyane, hakaba habamo n'aho ababyeyi ndetse n'impinja zabo bafashirezwa, n'abaganga babyigiye mu kuba babafasha.

Ivuriro ryihariye rya rigase rifasha abarwayi batandukanye by'umwihariko tukaba turisanga mu Rwanda mu karere ka Kicukiro i Kigali.

Inyubako dusanga mu kigo nderabuzima, aho abarwayi bazanywe bashyirwa nk'ubutabazi bwihutirwa mu gihe abaganga babona barembye cyane, bakeneye ubufasha bwihutirwa.

Mu bigo nderabuzima hakwiye kubakwamo inyubako zitandukanye bitewe nuko abaganga baba barize ibintu byinshi kandi buri kimwe cyihariye ndetse n'uburwayi abarwayi barwara si buba ari bumwe.

Mu bigo nderabuzima habamo ibitanda, aho abarwayi barembye babashyira kugira ngo abaganga babiteho mu buryo bworoshye kandi bukwiriye, bityo ubuzima bwabo burusheho gusigasirwa ndetse babashe gukira.

Ububiko bw'imiti ikaba irimo amoko atandukanye, bitewe n'uko ikoreshwa n'abarwayi barwaye uburwayi butandukanye kugira ngo babashe gukira.

Abarwayi batandukanye bagiye ku kigo nderabuzima haba abagore abagabo abahungu abasore ndetse n'abagabo, buri wese arifuza y'uko yagira icyo afashwa n'abaganga ndetse n'abandi bakozi bakoraho.

Umurwayi yahawe igitanda mu kigo nderabuzima, kugirango abaganga bamube hafi ndetse barusheho kumufasha mu buryo bushoboka bwose, bityo abe yakira indwara arwaye.

Ibitaro byigenga, byo kwa Nyirinkwaya. Mwabigana mwese murwaye, barabafasha, babahe imiti ijyanye n'ibibazo mufite by'ubuzima.

Ibigo nderabuzima cyangwa se ibitaro bikwiye kubakwa kandi bigashingwa ahantu heza hahereza umwuka mwiza ndetse muzima ku babigana, haba ku baganga ndetse n'abarwayi tutibagiwe n'abakeneye inama zijyanye n'uko ubuzima bwabo buhagaze.

Ikigo nderabuzima cy'Akarere ka Nyarugenge aho abaganga ndetse n'abarwayi bahurira kugira barusheho gusigasira ubuzima bwiza bwa muntu ndetse bagire inama zijyanye n'ubuzima abazikeneye.

Ubwiza n'ubuzima ni ububiko bw'imiti itandukanye ivura indwara nyinshi hakoreramo abaganga bize ibijyanye n'imikoreshereze yayo, ni byiza rero ko tubagana bakadufasha.

Umuganga ari mu bitaro hamwe n'umurwayi ugeze mu zabukuru, arimo aramupima ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze, umubiri we usigaye umeze. Ibi bikaba byashimishije bombi uko ari babiri.

Umuganga ari mu kigo nderabuzima arimo arakingira cyangwa se atera urushinge umurwayi kugira ngo abashe gukira, ni byiza kubanza gusuzuma niba inshinge ziteguwe neza kugira ngo byere kugira ingaruka mbi bitera ku murwayi.

Umwarimu yakoresheje imfashanyigisho kugira ngo yigishe umunyeshuri ubwoko bw'amenyo n'uburyo bayakoresha isuku akoresheje uburoso, ibi akaba ari ibintu bizafasha uyu mwana kurangwa no mu kanwa hatarimo umwanda.

Ibigo nderabuzima, biratandukanye, gusa n'ubwo bimeze bityo byose, intego yabyo ni ukugira ngo bibashe gusigasira ubuzima bwa muntu. Rero ni yo mpamvu, bibamo ibikoresho byinshi bitandukanye, abaganga bakifashisha kugira ngo bavure umuntu.

Abarwayi barwaye indwara zitandukanye, bahawe ibitanda mu kigo nderabuzima, mu buryo bwo kugira ngo abaganga bababe hafi, babiteho, uko bashoboye kose.

Ikigo nderabuzima cya Gihundwe, aho abaganga b'inzobere mu kuvura amaso bakorera ndetse abarwayi bayo bakabasha kubagana kugira ngo babavure bakire.

Mu kigo nderabuzima nta ahantu ngombwa kandi hakenewe cyane mu by'ukuri, niyo mpamvu bikwiye kwitabwaho kugira ngo harangwe n'isuku isesuye, nibwo n'ubuzima bw'abantu buzarushaho gusigasirwa bukarushaho kuba bwiza.

Ikigonderabuzima cy'ahantu runaka igihe cyose ibitaro bikwiye kubakwa ahantu hisanzuye, hari umutekano, hafasha ubuzima bw'abantu gusigasirwa.

Abaganga bari mu bitaro bambaye impuzankano, zibafasha kugira ngo birinde kuba banduzwa, n'ibyo bakoramo n'ibyo bakora, bityo babe bafite umutekano uhagije kandi wizewe.

Ikigo nderabuzima gikwiye kubakwa ahantu hateganyijwe mu buryo bukwiye, ku buryo bitabangamira ubuzima bw'umuntu. Ikindi kandi ni byiza gutera ibiti aho kiri kugira ngo abantu babashe kubona umwuka mwiza bahumeka.

Umuforomo arimo arita ku murwayi wahawe igitanda mu bitaro, bitewe n'urwego indwara yamuzahajeho, kugira ngo arebe niba yakira akamera neza.

Ibitaro bya kabgayi ni bimwe mu bigo nderabuzima biba mu Rwanda bikaba bifasha abantu bose bafite uburwayi bw'amaso by'umwihariko bifite umumaro ukomeye mu gusigasira ubuzima bwa mwene muntu.

Mu bigo nderabuzima, hakwiye kubamo ibitanda aho abarwayi barembye bashyirwa, kugira ngo abaganga barusheho kubaba hafi babavure bakire, ubuzima bwabo bwongere kuba butaraga.

Ibigo nderabuzima bikwiye kubakwa mu buryo bukwiye kandi bwiza kugira ngo ubuzima bwa muntu burusheho kwitabwaho no gukurikiranwa n'abaganga ndetse n'abandi b'inzobere.

Ikigo nderabuzima gikwiye kubakwa ahantu hakorohereza buri murwayi kuba yakigana, yifuza ko abaganga bamuha ubufasha. Ikindi kandi gikwiye kuba ahantu hari umutekano.

Umuganga arimo arapima umwana indwara, ni byiza kuko bituma akira kandi agakora nk'uko yarisanzwe abigenza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umuganga ari mu kigo nderabuzima afasha umurwayi ufite uburwayi bwo kuba atabasha kugenda, akaba yarahawe akagare yifashisha mu gikorwa cyo kujya ahantu hatandukanye.

Umurwayi ari mu cyumba, kirimo muganga, amubwira uko asigaye yiyumva, bityo abe yafashwa ahabwa imiti, yagabanya, ndetse igakuraho, ukumera nabi afite.

Ikigonderabuzima cya Rwerere, aho abarwayi basanga abaganga kugira ngo babashe kubasuzuma, babagire inama ndetse babavure indwara zitandukanye mu buryo bwo kubaha imiti.

Ikigo nderabuzima cya gisenyi aho abarwayi bagana, kugira ngo abaganga babafashe babavura indwara barwaye, ndetse n'ubwandu baba bafite bakabasha kuba bagabanyiriza.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, aho abaganga bakora ndetse n'abarwayi bakagana kugira ngo babafashe, kandi hari n'abajyayo kugira ngo bagirwe inama zerekeye n'ubuzima bwabo uko buhagaze.

Abarwayi bari mu bitaro bategereje kugira ngo abaganga babafashe, barwaye indwara zitandukanye bityo rero n'abaganga bakeneye baratandukanye, bategereje kugira ngo babe babafasha, mu kwisuzuma, kubavura indwara barwaye.

Ubutabazi bw'ibanze, ni kimwe mu bintu bikorerwa umuntu urwaye mbere yuko ajyanwa mu bitaro kugirango barusheho kumuvura, ranira rero kuba umutabazi mwiza aho waba uri hose.

Amazi tugiye kunywa akwiriye kuba afite isuku bihagije, ari meza mu buryo bushoboka bwose kandi n'ibikoresho tuyashyiramo bikwiye kuba bisa neza kugira ngo atugirire umumaro ndetse afashe umubiri wacu.

Birakwiye ko tugira umuco wo kunywa amazi meza kandi biba akarusho iyo tuyatetse kuko aribwo imyanda yose ivamo igashiramo, mu gihe tuyanyweye tubasha kugira ubuzima bwiza ndetse binadufasha kwirinda indwara zimwe na zimwe.

Mu gihe turi gukora imyitozo ngororamubiri tukagira inyota, dukwiye kujya tunywa amazi asa neza afite isuku ihagije, mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu yanduye, kandi ni isoko y'ubuzima buzima ndetse bwiza.

Iyo umuntu avuye muri siporo agira inyota kuko ingingo ze ziba zirimo gukora ku rwego rwo hejuru, rero tujye tunywa amazi meza asukuye mu gihe bitubayeho.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu umuntu akwiye gukora kandi kenshi ukoshoboye; kuko igira umumaro ukomeye nko kugabanya ibure, kuruhura intekerezo ndetse n'ibindi.

Amagi, imbuto nk'imineke ndetse n'imboga hamwe n'ibihumyo ni bimwe mu bigize indyo yuzuye, iyo umuntu ayifashe akanakora imyitozo ngororamubiri arushaho kugira ubuzima bwiza.

Gukina umupira ni umwe mu myitozo ngororamubiri abantu dushobora gukora, kandi kugira ngo bigende neza dukeneye kujya tugura inkweto zabugenewe zikomeye ku buryo zitanatubangamira ndetse by'umwihariko dukoresha umupira muri uyu mukino.

Umuti ugabanya uburibwe haba ubwo mu mugongo; amagufwa ndetse no mu mitsi, ufite uburwayi yawifashisha.

Ibitaro by'u Rwanda byivurizamo abasirikare, ndetse n'abandi babashamikiyeho, bibafasha mu gihe barwaye indwara zitandukanye, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Imenyereze kandi ugire umuco wo kujya ukora imyitozo ngororamubiri, aho waba uri hose uko ushoboye, kuko ifitiye akamaro gakomeye ingingo z'umubiri wawe wose.

Uko waba umeze kose imyitozo ngororamubiri irakureba, birakwiye ko tuyikora kuko ifasha amaraso gutembera neza mu bice by'umubiri wacu ndetse kandi iitera igogorwa gukora neza tukarushaho kugira ubuzima buzima.

Ikigo nderabuzima cy'umwami fayisari ni kimwe mu biba mu Rwanda kikaba gifasha abarwayi bafite uburwayi butandukanye abaganga bakoramo bagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo babashe gukiza abarwayi.

Abaganga batandukanye barimo barasira insimburamagufwa mu kuguru k'umurwayi wavunitse, ibi bikaba bizamwunganira mu kuba yagenda ndetse bizarushaho kumutera ibyiringiro m'ubuzima bwe.

Birakwiye ko kunywa amazi biba gahunda yacu buri munsi. Kuko bifasha mu igogora, bitwika ibinure ndetse bikanatuma tugira morari muri byose turi gukora.

Kunywa amazi meza kandi afite isuku ihagije birakwiye kuri twese. Ni ikintu dukwiye kugira umuco, kuko bifasha ingingo z'umubiri wacu gukora neza ndetse bikawurinda indwara zandurira mu yanduye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kuko bigorora ingingo nyinshi zacu, ziri mu moko atandukanye hari izishobora gufasha intekerezo, amaguru ndetse n'ibindi.

Imyitozo ngororamubiri, ikwiye gukorwa na buri umwe wese, kuko ifasha mu kurinda umubiri kurwaragurika, itwika ibinure byawo, ndetse iruhura no mu mutwe.

Gukora imyitozongorora mubiri ni ikintu cyiza buri wese yagakwiye kujya akora kuko bifasha ingingo z'umubiri gukora neza kandi bikarinda kuba warwaragurika indwara zitandukanye.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu umuntu wese akwiye gukora irafasha muri ubu buryo, igabanya ibinure, ituma amaraso atembera neza, uyikora ntarangwa no kuribwa kw'ingingo n'ibindi byinshi.

Akagare gatangwa no kwa muganga gahabwa abafite ubumuga bwo kutagenda kugira ngo bajye bakifashisha kabunganire bityo barusheho kugira ibyiringiro mu mibereho yabo.

Iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, agahura n'impanuka cyangwa se akaba yagira ikibazo cy'umubiri, ni byiza ko tumutabara, tukamufasha, kuko bitababyaye ibyo hari n'ubwo havamo urupfu.

Gukora imyitozo ngororamubiri birakwiye ko tubigira inshingano zacu mu mibereho ya buri munsi kuko waba ari umuhungu cyangwa umukobwa waba uri umu papa cyangwa umu mama yakugirira umumaro ku rwego rwo hejuru.

Uko twaba tumeze kose imyaka twaba dufite uko yaba ingana ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri, kuko igira umumaro ukomeye ku mibiri yacu, ifasha amaraso gutembera neza igatuma umuntu ahumeka neza, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ukongeraho kurya neza nk'imbuto urugero amaronji, imineke n'bindi bitera umuntu kugira ubizima bwiza, tubagiwe no kunywa amazi.

Jya utegura igihe nko mu cyumweru, wazajya gukoramo imyitozo ngororamubiri, kuko irafasha cyane mu buryo bwinshi, by'umwihariko ifasha umubiri wacu gukora neza.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza kandi mu rwego rwo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, dukwiye kujya tuyikora mu buryo butandukanye.

Dukwiye kujya dukora imyitozo ngororamubiri mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ituma ibinure bitwikwa, igatera igogora kugenda neza ndetse iruhura no mu mutwe.

Imyitozo ngororamubiri ituma umuntu abasha kunezerwa agakorana umwete ibyo yihaye gukora, ndetse hari n'ubwo umuntu ayikora mu buryo bwo kugira ngo aruhure umutwe we.

Kurya amagi, imbuto, nka pome, amaronji, imineke, inkeri, ukongera gukora siporo, ni isoko y'ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuganga arimo arafasha umuntu wahuye n’impanuka mu gihe yararimo gukora imyitozo ngororamubiri, by'umwihariko yagize ikibazo ku kaguru, ari kumwitaho kugira ngo karusheho gukora neza nk’uko kari gasanzwe gakora.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni umuco ukwiye kuturanga twese kuko igira umumaro ku mubiri wacu, igabanya ibinure, ifasha amaraso gutembera neza mu ngingo zacu kandi igabanya umuruho ndetse ituma ibitekerezo byacu bituza.

Umuganga ari kwa muganga, mu kigo nderabuzima, mu cyumba abarwayi barwariramo, aho arimo kumufasha, kugira ngo arebe niba yakira.

Iteraniro ry'abantu abahungu n'abakobwa ndetse n'abashatse, barimo barakora imyitozo ngororamubiri itandukanye kuko ari isoko y'ubuzima buzima kandi bwiza.

Birakwiye ko tujya tunywa amazi meza asukuye, kuko agira umumaro ukomeye mu mibiri yacu, atuma igogora rigenda neza, ndetse ni umuti ku ndwara zitandukanye.

Ni byiza kunywa amazi ahagije , ajyanye n'uko ungana . Uko ureshya ,imyaka ufite. Ku bindi bisobanuro wabaza muganga akagufasha ,akabasha ndetse kubigusobanurira. Kuko ni ibintu by'ingenzi ku buzima bwawe ,ku mubiri wawe.

Ni byiza kunywa amazi buri munsi cyane cyane mugitondo mbere yuko ugira ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushyira mu nda yawe, ni byiza kubikora, kuko bifasha igifu mu igogora ryacyo ndetse nawe umubiri wawe ukaba wakora neza, ingingo zose muri rusange.

Ishyirahamwe riba mu Rwanda rikina umukino wa judo uyu ukaba ufasha abantu kwidagadura kandi ugatuma n'ingingo zabo zikora neza.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu cyane dukwiye gukora, uko waba ungana kose ibyo waba ukora, dukwiye kuyitaho kuko ni uburyo bwo kwita ku mibiri yacu bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Umuti utangwa kwa muganga kugira ngo ugabanye uburibwe, akenshi aba ari ubw'umutwe. Ni byiza rero kunywa nk'uko wabwiwe na muganga.

Ni ingenzi cyane gukora imyitozo ngororamubiri mu mibereho yacu ya buri munsi, ituma amagufwa yacu akomera, igatuma ubwonko bwacu bukora neza ndetse ikanadutera morari mu bintu byinshi tugerageza gukora, ntibagiwe nuko amaraso abasha kuba yatembera neza mu mibiri yacu.

Imyitozo ngororamubiri yakorwa ahoriho hose kandi niwowe kwihitiramo hari iya maboko hari iyamaguru izo zose byaba byiza uzumvise.

Imyitozo ngororamubiri igira umumaro ukomeye iyo ikozwe neza ndetse mu buryo bukwiye, igabanya ibure, umuruho ndetse igafasha n'amaraso gutembera neza.

Kunywa amazi ni isoko y'ubuzima bwiza, birakwiye ko tubikora buri munsi, cyane tubyutse ndetse hashize iminota mirongo itatu turiye birafasha cyane.

Dukwiye kujya duhora tunywa amazi buri munsi kandi meza, kuko agira umumaro muri ubu buryo: atuma igogora rigenda neza, aturinda umwuma, ndetse anatwika ibinure byo mu mibiri yacu.

Gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza cyane kandi birafasha, birakwiye ko tubyitaho, bizatuma imabiri yacu ikora neza, ingingo zayo na zo zibe ari nzima.

Imipira itandukanye haba iminini cyangwa imitoya yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri n'abantu benshi, ni byiza rero kuyikoresha kugira ngo turusheho kwitungira amagara mazima kandi ingingo zacu zikore ku rugero rukwiriye rushimwa.

Jya ukora imyitozo ngororamubiri utivovota, utinuba, ahubwo uyikunze cyane, kuko igufitiye umumaro ukomeye. Izatuma ugira umubiri muzima, kandi utarangwamo n'uburwayi.

Mu gihe bagenzi bacu bahuye n'ikibazo, bakwiriye guhabwa ubutabazi bw'ibanze, by'umwihariko kiba ari icy'umubiri, ntidukwiye kubatererana rero, dukwiye kubaba hafi, tukabafasha ibishoboka byose.

Gukora imyitozo ngororamubiri birafasha bigirira umumaro ukomeye umubiri wacu, ingingo zawo zigakora neza ku rwego ruzima kandi rukwiye.

Umuntu uvuye muri siporo akenera kunywa amazi meza, bitewe nuko ingingo z'umubiri ziba zakoresheje imbaraga nyinshi, ndetse zikaba zahinduye urugero zakoreragaho. Hari ubwo hakenerwa amazi.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni bumwe mu buryo butuma imibiri yacu ikora neza ndetse n'imiterere yayo ikarushaho gusigasirwa, ndetse kandi bituma amagufwa akomera tukanagira umwete na morali muri byinshi dukora.

Iyo umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri haribwo agira inyota bitewe n'imbaraga abarimo gukoresha kuko umubiri urimo gukora cyane bityo akaba yanywa amazi kaba yamufasha akaba akwiye kunywa amazi meza.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane kandi ni ingenzi, birakwiye ko tujya tubyitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, ituma aruhuka mu bitekerezo, ndetse n'ingingo muri rusange zigakora neza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, hari ubwo akenera amazi bitewe n'urwego umubiri we uba urimo gukoraho, ni byiza rero y'uko anywa amazi meza kugira ngo arusheho gusigasira ubuzima bwe.

Amazi meza, ni isoko y'ubuzima bwiza ku uyanyweye wese, kuko afasha umubiri kumererwa neza, ingingo zose zawo zikabasha gukora neza, tujye tuyanywa mu buryo bukwiye nkuko abaganga badusaba ndetse banatubwira.

Gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kurya imbuto nk'amarongi, imineke, pome. Bifasha umubiri wacu kumera neza kuko biwurinda indwara zitandukanye ndetse bikongera ubudahangarwa.

Imboga ndetse n'ibindi byose bikungahaye ku ntungamubiri zirinda indwara nk'amashu, pavuro, inyanya, pome ndetse n'ibindi byose, ni ibintu bikenewe mu buzima kugira ngo umuntu abashe kugira umubiri muzima kandi abashe kugira n'umubiri utarangwa no kurwaragurika.

Abasore barimo barakora imyitozo ngororamubiri, bayikorana umwete ndetse n'ubushake bwinshi, nawe birakwiye yuko wajya ubikora kuko ifasha ingingo gukora neza igabanya ibinure ndetse ituma n'amaraso abasha gutembera neza.

Birakwiye ko buri muntu wese haba umugabo, umugore, umusaza, umukecuru, banywa amazi kuko arafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi atera umubiri gukora neza nkuko bikwiriye.

Akamaro cyangwa se inyungu zo gukunda gukora imyitozo ngororamubiri, harimo gutwika ibinure, kugabanya umuvuduko w'amaraso, guhuga mu bitekerezo ndetse no gushyira ibiro ku rugero rukwiriye.

Imboga ndetse n'imbuto nka karoti, pome, makadamiya, amashu ndetse n'amaronji, birakwiye ko tujya tubirya tukanakora imyitozo ngororamubiri kuko birinda kwandura k'indwara mu mibiri yacu.

Imyitozo ngororamubiri irakenewe kuri buri wese, tujye tuyikora kuko igabanya ibinure igafasha amaraso gutembera neza ndetse n'umuvuduko w'amaraso ntitube twawugira.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ikintu gifasha dukwiye kujya twitaho kenshi cyane kuko bifasha amaraso y'umubiri gutembera neza ndetse bituma n'intekerezo z'umuntu zigenda neza.

Urubyiruko ndetse n'abayobozi barwo bari gukora imyitozo ngororamubiri. Birashimisha cyane iyo abantu bemeranyije gukora ikintu bakabigeraho, ikaba ituma bagira ubuzima bwiza.

Imyitozo ngororamubiri. Ni umuti ku ndwara zitandukanye, ku bantu bose babasha kuba bayikora mu buzima bwabo. Idufasha kugira ngo tubashe kugira amagufwa ndetse n'ibindi bice bikora neza.

Dukwiriye kunywa amazi meza kandi asukuye ndetse tukanakoresha ibikoresho bifite isuku mu rwego rwo kwirinda kwandura indwara zandurira mu kunywa amabi arimo imyanda.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane ku mibiri yacu, kuko bitera ingingo z'umubiri zose gukora neza ndetse zigakora ku rweg rukwiriye, jya ukora imyitozo rero ngororamubiri kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza.

Amabwiriza akwiriye kubahirizwa kugira ngo hirindwe icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, ntitugasuhuzanye duhuza ibiganza byacu, dukarabe amazi meza ndetse n'isabune kandi tujye duhana intera.

Kunywa amazi ni ingeso nziza buri wese akwiye kugira. Waba ubyutse cyangwa se nyuma y'iminota mirongo itatu musoje kurya, wanywa amazi kuko ni igihe cyiza ndetse na yo agira umumaro ukomeye.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane birafasha buri wese yagakwiriye kubyitaho, niba wikunda jya wiyitaho nibwo uzagira ubuzima buzima buzira indwara.

kunywa amazi meza ni ingeso nziza buri wese akwiye kugira kuko agira umumaro ukomeye haba ku mibiri yacu ndetse agatera imbaraga ingingo zawo zose.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza cyane bituma ingingo z'umubiri zikora neza bigabanya umunaniro ndetse n'intekerezo z'umuntu zikarushaho kujya ku murongo haranira rero kujya uzikora kandi uzikunze ndetse kenshi.

Mu kigo nderabuzima umurwayi yahawe igitanda bitewe n'uko yavunitse ukuguru, abaganga bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamuvure bamworohereze uburemere n'uburibwe,

Iyo umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri hari ubwo ahura n'impanuka cyangwa se ibice by'umubiri we bikaba byabasha guhura n'ikibazo runaka bitewe nuko umubiri we urimo gukora cyane, mu gihe bibaye, ujye umenya ko ari ibintu bibaho kandi ushake ubufasha bwihutirwa.

Har’ibintu byinshi bitubaho bitewe n'ibyo twirengagiza gukora. Nk'urugero umwuma uterwa no kuba tutanywa amazi, ni byiza rero ko tunywa amazi kugira ngo twirinde umwuma. Ikindi kandi har’abantu birengagiza gukora imyitozo ngororamubiri, ugasanga bitumye bagira imibiri itagira imbaraga. Ibi rero ni ibintu umuntu wese akwiye kwitaho.

Imyitozo ngororamubiri ni ikintu umuntu wese akwiye kwitaho kugira ngo abashe kugira umubiri mwiza kuko ari isoko y'ubuzima buzima ndetse n'iterambere muri byinshi.

Kunywa amazi meza, birafasha. Birakwiye ko tubikora mu buzima bwacu, mu mibereho tubamo. Bituma igogora rigenda, birinda umwuma imibiri yacu.

Ubutabazi bw'ibanze burakenewe kandi bugira umumaro ukomeye ku mibiri yacu, haba mu gihe umuntu arimo gukora siporo cyangwa se mu bundi buryo, kimwe mu bintu umuntu yakwifashisha muri bwo harimo umukasi ndetse n'utundi tuntu dutandukanye.

Avoka urubuto rukungahaye ku ntungamubiri zitandukanye. Bitewe n'imiterere yayo, benshi bayikoresha mu gukora amasabune atandukanye yifashishwa mu masuku ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye.

Ibimera ndetse n'ibindi bintu byose byaremwe hari ubwo byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye bitewe n'imiterere yabyo nka tungurusumu, tangawize ndetse n'ibindi.

Imiti gakondo irimo amoko menshi atandukanye harimo tungurusumu, tangawizi ndetse n'indi nyinshi twayifashisha mu kuvura indwara twaba twarwaye.

Indimu ni umuti ukomeye ushobora kwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'inkorora gutuma uruhu umera neza ndetse no gutuma igogora ryihuta cyangwa se rikagenda nk'uko bikwiye.

Umuvuzi gakondo arimo arategura imiti ye kugira ngo ayishyikirize abarwayi imeze neza bityo babashe gukira.

Umuravumba ni ikimera dusanga ahantu hatandukanye haba hatuwe n'ahadatuwe, ukaba uvura indwara zitandukanye nk'inkorora ndetse n'izindi wawukoresha uhuye n'iki kibazo.

Umuti ukomoka ku gikakarubamba, kikaba gikunze gusangwa ahantu henshi, haba ahatuwe ndetse n'ahadatuwe, by'umwihariko gikungahaye kuri byinshi. Akaba ari yo mpamvu gikoreshwa.

Imiti myinshi itandukanye, yakozwe hifashishijwe ibimera nk'imiravumba, ibikakarubamba, kapisine, umweza, bitewe n'imiterere yabyo.

Imiti gakondo itandukanye; yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi ikomoka kuri avoka ndetse n'igikakarubamba, by'umwihariko ikaba ifasha uruhu kumera neza.

Imbuto zimwe na zimwe nk'imineke, inanasi ni umuti ukomeye ku ndwara zitandukanye kandi ikindi ni uko bishobora kwifashishwa mu gukora umutobe ntigiwe yuko ari bimwe mu bifasha umubiri kugira ubudahangarwa.

Imiti ikomoka ku bimera, ni myiza cyane kandi irimo amoko atandukanye, nka pome, tangawizi, tungurusumu, ibitunguru, ni byiza cyane rero kuyifashisha nk'ubutabazi bw'ibanze mu gihe utarabona uburyo ujya kwa muganga.

Imurikagurisha ry'imiti itandukanye ikomoka ku bimera, ikaba ifite ibiciro bidasa, ntibihura, twayigura kugira ngo ibe yadukiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Kapusine ni umuti umera ahantu hatandukanye nko mu misozi, mu mashyamba ndetse n'ahandi hantu hadatuwe, ukaba ufasha kuvura inkorora, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Umuti ukomoka ku bimera, ushobora kwifashishwa mu kuvura, witwa Aloe vera gel, ukaba ukomoka ku gikakarubamba.

Ku kagera bakora imiti ikomoka ku bimera, ikaba yakifashishwa mu kuvura indwara nyinshi kandi irizewe, mwahagana mukayihasanga.

Ibimera byatewe ahantu kugira ngo n'ibyera bizakoreshwe mu gutunganya imiti ivura indwara zitandukanye by'umwihariko ni iyo mu bwoko bwa gakondo.

Umuti gakondo ufasha abantu mu gusukura mu mutwe kuko bawifashisha nk'isabune, ibi bigafasha mu kuvura indwara nyinshi ndetse bikarinda n'umwanda.

Imiti gakondo ivura indwara zitandukanye, ibumba ryifashishwa mu gihe umuntu yarwaye mu nda kandi rikwiye gutobwa mu mazi kugira ngo ribashe gukora neza, buri murwayi akwiye kubyitaho.

Ubwoko butandukanye bw'imiti gakondo, akaba ari ibimera byimejeje ahantu, wayifashisha mu gihe urwaye indwara byavura.

Umuti ukorwa ukomotse ku gikakarubamba ni mwiza cyane, ntugira ingaruka ku mubiri ndetse urakiza ku rwego rwo hejuru tujye tuwukoresha.

Imiti ikomoka ku gikakarubamba, ikungahaye cyane ku ntungamubiri zitandukanye, ikaba yemewe. By'umwihariko ifasha mu kuvura indwara z'uruhu, abantu bibasirwa nazo, bayifashisha.

Igikakarubamba ni kimwe mu bimera, bimera ahantu hatandukanye, kikaba gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi, akaba ari nayo mpamvu bitera abantu kuba bakora imiti ikigize.

Ahantu ingemwe z'ibiti bikomokaho imiti gakondo zitunganywa zigahingwa, kugira ngo mu gukura kwazo zimurwe mu mirima zaterwamo bityo zizavemo icyo bifuza.

Dukwiye kugira isuku yo mu kanwa kacu; dusukura amenyo yacu; dukoresheje uburoso ndetse n'umuti w'amenyo; by'umwihariko ni byiza ko dukoresha umuti w'amenyo ukomoka ku gikakarubamba; kuko imiterere yawo ndetse na karemano yawo itatwangiza.

Umuti gakondo, w'igikakarubamba, akaba ari ikimera gikungahaye, ku ntungamubiri nyinshi, ndetse kivamo imiti, itandukanye ivura indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Umuvuzi gakondo nyuma yuko asoje gutunganya imiti ye akayishyira mu macupa, arimo aranayishyira mu dukarito twabugenewe kugira ngo irusheho kurindwa, kandi ubuziranenge bwayo busigasirwe.

Umuti ukomoka ku gikakarubamba urizewe kandi birakwiye ko tuwukoresha kugira ngo tubashe gukira indwara zitandukanye ari kwa muganga n'ahandi badushishiriza kuwukoresha.

Imiti ikomoka ku bimera, cyangwa se iva mu byaremwe, akenshi isangwa ahitaruye abantu nk'ibumba igikuka n'iyindi.

Umuti gakondo ukomoka mu buki bw'inzuki, ukaba ufasha mu kuvura indwara zitandukanye nk'izo mu nda ndetse n'izindi.

Imiti gakondo na yo irakiza, kandi irimo amoko atandukanye, nka tangawizi, ibumba, ingano, ndetse na tungurusumu n'ibindi.

Umuti gakondo ukomoka mu buki bw'inzuki ukaba ukoreshwa mu kuvura indwara izo mu nda ndetse n'izo mu kanwa.

Umuti gakondo ukomoka ku kimera cyitwa igikakarubamba; ukaba uvura indwara zitandukanye ndetse ukubiyemo n'ibindi bintu bituma urushaho kugira umwimerere.

Umuti w'ibumba ni mwiza kandi urafasha, twawukoresha mu kwivura mu nda; ukaba ugomba kutanyunywa, kuko ari bibi.

Imiti ikomoka ku bimera igi umumaro mwinshi kandi akifashishwa mu kugira ngo umuntu abashe koroherezwa uburibwe bw'ibyo arwaye cyangwa se anakire, by'umwihariko ukomoka ku gikakarubamba urihariye bitewe n'imiterere y'igikakarubamba.

Igikakarubamba cyatewe ku buso bw'ubutaka bunini ku bw'ibyo rero hashyizwemo ibimodoka bifasha mu buhinzi bugezweho cyangwa se muri ubu bwoko bwabwo.

Imiti ikomoka ku gikakarubamba ni myinshi, iratandukanye, kandi by'umwihariko ifasha mu kuvura indwara z'uruhu. Abibasiwe na zo rero, bayikoresha kugira ngo babashe gukira.

Igikakarumba ni isoko y'imiti itandukanye, ni kiza cyane kirakoreshwa ikungahaye kuri byinshi kandi byagirira umumaro abantu bagikoresha.

Umuti ukomoka ku gikakarubamba uravura by'umwihariko kirakoreshwa kuko gikungahaye ku bintu byinshi, mwajya muwukoresha kugira ngo imibiri yanyu ibe myiza.

Imiti ya kimeza: nk'umuravumba, kapusine, makadamiya, igikakarubamba ndetse n'ibindi yakwifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nk'inkorora, uburibwe.

Hari imiti myinshi ikomoka ku bimera nk'ibikakarubamba. Iyi miti ikaba ifasha mu kuvura indwara z'uruhu iremewe ndetse iranakoreshwa.

Umuti w'amenyo ukomoka ku gikakarubamba ni umwe mu yakifashishwa kugira ngo buri muntu wese abashe kugira isuku y'amenyo ndetse n'akanwa ke muri rusange.

Igikakarubamba ni kimwe mu bimera bimera ahadukikije. Kikaba gikungahaye cyane, bityo akaba ariyo mpamvu ituma bagikoresha bakora imiti itandukanye yavura indwara nyinshi.

Umupapa yagiye mu ishyamba gusoroma umuti gakondo, by'umwihariko bitewe n'uko aba ari ibimera wabisanga ahatuwe cyangwa se n'ahadatuwe.

Mu rwego rwo kunoza ubuvuzi gakondo, imiti yose igomba kugenzurwa n'icyiciro kibishinzwe cy'u Rwanda kandi irafasha cyane mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo yashyizwe mu macupa isoje gutunganywa kugira ngo ijyanwe ku isoko ibe yakwifashishwa n'abarwayi barwaye indwara ivura mu kugira ngo babashe gukira.

Hari amoko menshi gakondo ikomoka ku gikakarubamaba by'umwiriko gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi tandukanye niyo mpamvu gikunze gukoreshwa.

Icupa ririmo umuti ukomoka ku gikarubamba ukaba uvura indwara zitandukanye nk'iz'uruhu akenshi bitewe n'uko gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane.

Abahinzi bari mu murima, wahinzwemo imiti gakondo, ikaba izifashishwa mu gukora ndetse no gutunganya imiti myinshi, izavura indwara zitandukanye.

Kurya imbuto, imboga birafasha cyane kuko bituma tutandura indwara vuba, ubudahangarwa bw'umubiri buriyongera bitewe n'iki kintu.

Ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe imirire y'abaturage ndetse no kurwanya ibiyobyabwenge muri bo. Gifasha kuzamura ubuzima bwabo kuko uriye neza aba abayeho neza.

Umuvuzi gakondo, arimo arategura imiti itandukanye kugira ngo abantu bazayifashishe mu gihe barwaye indwara zitandukanye, by'umwihariko mu Rwanda habaho isuzumwa ry'ibi bikorwa kugira ngo imibereho y'abantu, ubuzima bwabo, bwe kwangizwa.

Imiti ikomoka ku bimera ni ingenzi cyane kandi irafasha ku bantu bose batarabasha kujya kwa muganga, umuntu yayifashisha nk'ubutabazi bw'ibanze nk'igikakarubamba, umuravumba ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuti ukomoka ku gikakarubamba, uravura, urafasha byongeye kandi ntiwangiza umubiri ntangaruka mbi uwutere, mwajya muwukoresha kugira ngo ubavure indwara zitandukanye.

Umuti ukomoka mu buki bw'uruyuki, ukaba ufasha mu kuvura indwara zitandukanye haba izo mu nda, iz'uruhu, uremewe urwaye wese yawifashisha.

Umuti gakondo uva mu gikarubamba, ukaba uvura indwara zitandukanye z'uruhu, twawifashisha kuko uremewe, warasuzumwe, mbere yo kujyanwa ku isoko.

Ibiryo birimo intungamubiri zitandukanye bitangwa kwa muganga ndetse no mu zindi nzego zikora ku bijyanye n'ubuzima bihabwa abantu bafite ikibazo cy'imirire mibi b'abakene batabasha kubyigezaho, ibi bigatuma abantu barushaho kugira ubuzima bwiza.